Akazu kari mu mabara y'umuhondo n'umweru ka sosiyete y'itumanaho ya MTN, iruhande rwabo hakaba haparitse abamotari ndetse n'abagenzi bari kugenda.

Akazu ka sociyete y'itumanaho ya MTN, kari mu mabara y'umuhondo, kandidikishijeho amagambo y'umukara ngo Mobile money. Iruhande rwako hari umumama uhahagaze ufite akabaga mu ntoki, waje gusaba serivisi.

Abakozi ba sosiyete y'itumanaho ya MTN, bicaye mu mutaka wabo uri mu mabara y'umuhondo, wandikishijeho amagambo y'icyatsi, bakaba bari gutanga ubufasha ku babikeneye bose.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru cyandikishijeho amagambo agiye atandukanye twavugamo nka Equity, Bank of Kigali, irembo n'ayandi. Hakaba hari n'icyapa cya MTN.

Inyubako y'ubucuruzi imbere yayo hakaba hari umutaka wa sosiyete y'itumanaho ya Airtel, hakaba harimo umukobwa wambaye umupira w'ingofero y'umutuku uri gutanga serivisi. Mo imbere hakaba hakinguye.

Abagabo b'abanyonzi bambaye imyenda y'akazi n'ingofero z'akazi, harimo abambaye amajire y'umutuku ndetse n'umuhondo bakaba bari ku magare. Inyuma y'aho hari akazu ka sosiyete y'itumanaho ka MTN.

Abagabo bahagaze ahantu imbere y'inzu isakaje amabati, inyuma yabo hakaba hari ururabo, umwe yambaye ikote n'ishati y'umweru undi yambaye umupira w'umukara ari kureba muri telefone.

Agakiriro kubabakishije amabati hakaba harimo abantu benshi bari gutunganya imbaho zirambitse hasi, hakaba hari n'umugabo ufite igare wambaye umupira w'umweru.

Inyubako yubakishije amabati y'umutuku, ku ruhande hari ikigega. Mo imbere harimo ibigori byinshi bigiye bimanitse, ikaba izwi ku izina rya hangari. Inyuma yaho hari ibiti.

Abakobwa babiri bambaye imyenda isanzwe, harimo umwe wambaye baji, bakaba bari imbere ya mashini bicaye ku ntebe z'umukara. Iruhande rwabo hari ameza ateretseho ikintu bifashisha basohora impapuro.

Abantu bahuriye muri sale ari benshi bakaba bicaye bameze nk'abari mu mahugurwa, imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye amarinete, ikote ndetse n'ipantaro akaba ari kubaganiriza, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ngo Nyagatare invesitimenti foramu.

Imodoka isa ubururu ikaba iriho icyapa cy'umuhondo cyanditsemo amagambo y'umukara ngo akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, urwego and just momo ikaba iparitse ahantu hari amapave.

Inkoko ziri mu nzu zazo, zimeze nka senyenge ndetse n'amabati, hakaba hirya hari umugabo wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'itaburiya y'ubururu n'ipantaro y'umukara, ari kuzitaho.

Umugore wambaye ingofero y'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru, akaba yazamuye telefone ahagaze mu nzu irimo intebe z'imbaho, ndetse n'inzugi ebyiri zigezweho.

Abagabo babiri n'umugore umwe wambaye igitambaro mu mutwe amarinete n'umupira w'ubururu, bakaba bari kwifotoza bafashe, ku cyemezo bafite mu ntoki kiriho n'ikirangantego k'igihugu.

Abantu bambaye ibisurubeti by'ubururu bari imbere y'icyuma, umwe yicaye ku njerekani iriho n'ibati, hirya gato bazengurutswe n'ibintu bimeze nk'ibicuba by'amata.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, akaba ahagaze mu murima ahingamo imbuto z'ibinyomoro ari gusoroma ibyeze bisa umutuku, ibindi bisigaye bitarahisha akabyihorera.

Umuhanda wa kaburimbo uri guca ahantu hari indabyo nyinshi, iruhande rwabo hakaba hari icyapa kirekire kiri mu mabara y'umweru, cyandikishijeho amagambo y'umukara, hakaba handitseho ngo butike hoteri.

Ahantu hari intebe nyinshi z'umutuku ndetse n'ameza y'umutuku, hicaye abantu barimo baraganira, hirya gato hari amazu menshi harimo n'abakozi bahakora.

Umugore wicaye muri butike wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'umweru, akaba ari kugurisha ibicuruzwa binyuranye harimo: indagara, ubunyobwa, amavuta, amandazi, amakaroni, amavuta n'ibindi.

Ibicuruzwa byabugenewe mu gukora isuku y'amasafuriya bizwi nka situruwaya, bikaba bipakiye ahantu biri mu mabara atandukanye: icyatsi, umutuku, umukara, ubururu byose bikaba biri mu kantu kameze nk'akabati.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ijipo y'umutuku n'inkweto zifunguye akaba ari muri butike ipakiyemo ibicuruzwa bitandukanye harimo n'inzoga z'amoko atandukanye.

Abagore batatu n'umugabo umwe bakaba bicaye bafite icyarahani, hirya hakaba hari utubati turimo ibitenge byinshi. Undi afite metero apimisha abakiriya baje babagana.

Iduka ricuruza ibyokurya bigiye bitandukanye, harimo isukari, umuceri, amakaroni ndetse sarisa n'amavuta yo guteka yo mu bwoko bugiye butandukanye.

Imifuka ishonnye neza, inyuma yayo hakaba hahagaze abantu batatu n'imodoka isa umweru. Hirya gato haparitse moto ndetse n'amazu ashakaje amabati n'ibiti.

Umugore ufite umusatsi w'umukara, ishati y'amaboko maremare yizinze, inyuma ye hakaba hari akabati gapakiyemo ibikarito byinshi, birimo ibyo guteka, ariko hakaba hari n'ibindi bintu bimeze nk'amamashini.

Umucuruzi uri guseka, ufite imisatsi y'umukara ikote ry'umukara n'ibitenge, akaba ari muri butike, ari guhereza umwana uje guhaha ibyo ahashye. Harimo kandi n'ibicuruzwa byinshi binyuranye.

Abantu bambaye imyenda myiza harimo abapadiri bambaye utu ne mu ijosi tw'umweru, amashati y'umukara ndetse n'amapantaro atandukanye, bafite ibitabo mu ntoki ndetse n'amakaramu.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, bicaye ku meza ndetse bafite udutabo duto duto, inyuma yabo hakaba hari umwarimu wambaye ikote ry'umutuku ndetse n'ibishushanyo by'amatungo ku bikuta.

Abantu benshi bitwikiriye imitaka, biganjemo abagore bahagaze imbere y'inyubako ndende ifite umusaraba imeze nka kiliziya. Iruhande rwayo hari amashuri n'ibiti.

Inyubako ya kiriziya ifite amatafari ahiye ariko ashaje, ikaba isakaje amabati y'umutuku. iruhande rwayo hari ikigega n'ayandi mazu ashaje.

Abantu bicaye mu nzu y'urusengero irimo ishusho ya Bikira Mariya n'ahandi hari umusaraba ubambyeho Yezu bakaba bari gusenga batuje imbere hari ameza ariho imitako.

Inyubako nziza igaragaramo icyumba cyo mu bwiherero, harimo wesi igezweho ndetse n'ahantu bakarabira bamaze kwiherera. Ku ruhande hari isume umuntu ashobora kwiyumukirizaho.

Inyubako nziza irimo urumuri rucye ariko hasi ikaba irimo amakaro ifite n'amarido ku madirishya yayo, mu imbere harimo intebe zigiye ziteye kuri buri meza nkaho ari aho bakirira abantu.

inyubako iteye amarange, hasi harimo amakaro, hakaba harimo ameza ndetse n'intebe, ku rundi ruhande hakaba hari amadirishya ndetse harimo n'amarido ajya gusa umweru.

Inyubako igeretse, iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru isakaje amabati, ku mpande ikaba ikikijwe n'imikindo ibiri, imbere hakaba hari ubusitani bwiza, inyuma hari icyuma kirekire cyane.

Abantu benshi bahagaze mu nzu itabona neza, hakaba harimo umwe wambaye itaburiya y'umweru ahagaze iruhande rwa perezida ari kuvuga ijambo. Ku ruhande hari abasirikare.

Umugore wambaye igitambaro n'isaha akaba yikoreye tungurusumu ku mutwe, impande ye hari abandi badamu na bo bateze ibitambaro bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye.

Icyarahani giteretse mu muhanda w'igitaka, kikaba kiri iruhande rw'agatebe gatoya kabajije mu biti, hirya yaho hakaba hari abana benshi bari kugenda batambuka mu nzira.

Ahantu hari ibicuruzwa byinshi, imyenda ndetse n'amashitingi acururizamo abantu ndetse ku ruhande hari moto ihaparitse iriho na kasike, hirya gato hari abantu bahahagaze.

Ihene nyinshi ziri mu mabara atandukanye ziri mu kibuga kirimo ibyatsi, iruhande rwazo hakaba hari umugabo utagaragara igice cyo hejuru, wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Imbabura z'amakara zibumbye mu ibumba ndetse n'ibyuma zikaba zikozwe mu buryo bwinshi bunyuranye, harimo izikoze mu byuma gusa ndetse n'izivanze. Zirambitse hasi.

Abagore batatu bambaye ibitambaro by'umukara mu mutwe, bakaba bahagaze imbere yimifuka ipakiye ibirayi na bo bafite ibindi mu ntoki, bari kubyerekana bishimye. Inyuma yabo hahagaze undi mugore wambaye igitambaro cy'umuhondo.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi byiganjemo imyenda, hakaba hari umugabo wambaye ingofero y'igikinga ijya gusa umuhondo, umupira w'umweru, akaba afite ibicuruzwa byinshi byivanzemo ibikapu mu ntoki.

Inzu yubatse neza igezweho irimo amatara meza agezweho hakaba harimo intebe ndetse n'ameza n'abantu babiri umugabo n'umugore bambaye imyenda y'umutuku nkaho bakora muri iyo nzu.

Inyubako nziza igezweho irimo akabati karimo ibyo kurya bitandukanye, hirya hakaba hateye intebe nyinshi z'umukara ndetse n'ameza, hakaba hasi hari amakaro.

Umugabo uri ku igare uhetse amajerekani menshi, akaba ari guca mu ruhande rw'abanyamaguru mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye hari abantu babiri bikoreye ibintu bafite n'imyenda mu ntoki.

Umumotari wambaye kasike uheretse umugenzi wambaye kasike, bakaba bari kunyura mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti, hirya yabo hari inzu ifite igisenge cy'umutuku n'irangi ry'umuhondo.

Umumotari uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye hakaba hari inyubako ndende ifite umunara n'igisenge cy'umutuku ndetse hakaba hari n'urukuta rurimo urutoki rwibuza.

Imodoka y'umukara, iri kugenda mu muhanda, inyuma yayo hakaba hari umuntu w'umumotari, wambaye ingofero yabo ndetse n'umupira w'umutuku, ku ruhande gato hakaba hari amazu menshi.

Umugabo utwaye igare ahetseho ibitoki byinshi cyane, ndetse n'umusego w'abanyonzi. Hirya ye hari ikigo cy'amashuri gifite amabati y'ubururu, kikaba kizengurutswe n'indabo nyinshi.

Umumotari uri kuri moto wambaye ingofero, ikote n'ishati y'umweru, inyuma ye hakaba hari inzu nziza yateye amakaro y'umweru, inzugi z'umukara kandi hakaba hari n'amapave.

Umumotari uhetse umugenzi wambaye kasike, bakaba bari guca mu muhanda wa kaburimbo ufite inzira y'abanyamaguru ku ruhande, hirya yabo hakaba hari amashyamba ndetse n'ingo zubabatsemo.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi n'ingofero yambaye n'isaha n'ipantaro, akaba ahetse injerekani ebyiri zisa umuhondo ku igare, iruhande rwe hari imodoka y'umukara iri gutambuka.

Umumotari wambaye kasike, ishati y'umweru n'indi afashe mu ntoki, akaba ahetse umuzigo w'umufuka w'umweru, ari kunyura ahantu abanyamaguru batambukira, iruhande rwe hari icyapa.

Abamotari benshi bari mu muhanda wa kaburimbo bose bambaye kasike, bakaba harimo abiganjemo abambaye imyenda y'icyatsi. Ku mpande hari guca imodoka kandi hari n'izindi ziri inyuma yabo. Hakurya hari inyubako ndende iri mu ibara na ryo ry'icyatsi.

Umumotari wambaye kasike ni hejuru ytari n'ipantaro y'ikivurivundi, akaba ari kumwe n'undi wambaye imyenda y'abantu bakora kuri sitasiyo za esanse, akaba ari kumuvomera.

Umusore wambaye umupira w'amaboko magufi ipantaro y'itiriningi, afite igare ari guca mu muhanda wa kaburimbo. Inyuma ye hari abandi bantu bari kugenda n'imodoka n'inyubako ihubatse.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo umumotari uhetse umugenzi, bombi bambaye kasike zijya gusa icyatsi, ku mpande hariho ibiti byinshi hirya gato hari abantu bari kugenda.

Umumotari wambaye ingofero yabo ndetse afite n'indi muntu ntoki, akaba ari kunyura mu muhanda w'amabuye. Hirya gato hari umutaka wa sosiyete y'itumanaho ya MTN wicayemo umuntu uri gutanga serivisi.